Abantu benshi bafite icyapa cy'amahugurwa y'indwara ijyanye na mabage ndetse bambaye impuzankano isa, bamwe bambaye iy'icyatsi hasi no hejuru, abandi bambaye ubururu, harimo n'abakorerabushake bambaye amajire y'umutuku.

Umusore uteruwe n'abakorerabushake bo muri Kuruwaruje kugira ngo bamuhe ubuvuzi bw'ibanze gihe ahuye n'impanuka, uwo umusore yambaye agapira k'umuhondo kanditseho nimero ya gatatu ndetse n'ipantaro y'ubururu.

Kwa muganga ahatangirwa serivise z'ubuvuzi abagabo babiri bose barahagaze kandi bari kumwe n'umugore umwe, bari kumwe n'abashinzwe umutekano babiri mu nzego za gisirikare, bambaye impuzankano ya gisirikare.

Icyumba kinini cyo kwa muganga gifite inkuta z'amabara y'umweru, hasi hari amakaro y'ibara ry'ikigina. Icyo cyumba gifite igitanda kiryamyeho umwana agaramye hariho abaganga imbere ye bari kumugorora amaguru, harimo umunyarwanda ndetse n'utari umunyarwanda, ni abasirikare bambaye impuzankano ya gisirikare.

Abaturage batandukanye higanjemo urubyiruko, ndetse n'abakorerabushake bo muri kuruwa ruje, bishyize hamwe mu kubumba amatafari azakoreshwa mu kubaka ibikorwaremezo bitandukanye birimo iby'ubuvuzi.

Dorone ni indege ikoreshwa mu muganga, aho itwara amaraso, nibura ishobora gutwara ibiro bibiri, iyi ndege nta mutwaza igira, itwarwa n'umuntu yicaye kuri mashine, iyi ndege kandi ikora amasaha yose kuburyo ishobora gukora amasaha makumyabiri n'ane kuri makumyabiri n'ane.

Icyumba kinini cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa kwa muganga igitanda kiryamyeho umubyeyi utwite, imbere ye hagaze umuganga uri kumusuzuma, harimo ibikoresho umuganga yifashisha asuzuma inda y'utwite kandi umuganga yambaye imyenda ikoreshwa mu kazi ko kwa muganga.

Kwa muganga aho abantu bose yaba abahaga serivisi ndetse n'abayitanga, bose bambaye udupfukamunwa nk'aho bari mu gihe cy'icyorezo cya Covid cyangwa se ikindi cyorezo cyandura kinyuze mu mwuka.

Ibitaro by'akarere ka Nyagatare, imbere yaho hahagaze imodoka itwara abarwayi izwi ku izina ry'ambiranse, ibitaro binini bifite ibara ry'umuhondo ndetse n'amapave hanze, ibi bitaro bifasha abarwayi benshi batandukanye ndetse n'abaganga b'inzobere.

Icyumba kinini kirimo ameza n'intebe n'abantu batandukanye, aho bigaragara nk'aho ari ari icyumba cyo kwa muganga ndetse hakaba harimo umuntu uhagaze wambaye ishati y'umukara bisa n'aho ari guha amahugurwa abantu bari kwa muganga basa n'abamuteze amatwi.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho bitandukanye, bikoreshwa kwa muganga, kirimo igitanda kiryamyemo uruhinja, imbere yaho hahagaze umuganga wambaye imyenda ikoreshwa kwa muganga, uri gusuzuma urwo ruhinja.

Abantu batandukanye bicaye abandi bahagaze munsi y'igiti bahagazwe imbere n'umugabo uri kubagira inama ndetse n'amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima. Aba bantu higanjemo urubyiruko rw'abakobwa ndetse n'abagabo.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, kirimo ibitanda bitandukanye, biryamyeho abarwayi. Harimo abaganga batandukanye, bari kuvura abarwayi batandukanye kandi harimo n'umuganga ugenda yerekwa na muganga uburyo bavura.

Abaturage batandukanye higanjemo abagore n'abagabo ndetse n'abana bari kwa muganga ahatangirwa serivise z'ubuganga cyane cyane mu bijyanye n'inama zitangirwa kwa muganga, abagore bamwe baricaye ndetse n'abagabo, abandi barahagaze.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, gitangirwamo inama ku bijyanye n'ubuzima bwa muntu. Yitabiriwe n'abantu benshi batandukanye, iki cyumba gifite inkuta z'amabara y'ubururu.

Inzira yo kwa muganga iva mu nyubako imwe ijya mu yindi, iyi nzira irasakaye kugira ngo irinde abayinyuramo imvura cyangwa se izuba, iyi nzira inyuzwamo umurwayi avanwa mu nyubako imwe ajyanwa mu yindi, ariko kandi si we wenyine inyuramo n'abandi bose bakenera serivisi zo kwa muganga.

Abaganga bambaye imyenda y'akazi ikoreshwa kwa muganga, bari mu cyumba gikorerwamo ubushakashatsi bupima ibintu bitandukanye ndetse bifashisha mu gihe basuzuma indwara z'abarwayi.

Icyumba kinini cyo kwa muganga kibyarizwamo ababyeyi, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye, ameza, intebe, ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu kubyaza ababyeyi. Harimo ababyeyi baryamye ku bitanda abandi bicaye.

Icyumba kinini gifite inkuta z'ubururu, kirimo igitanda, icyo gitanda cyicayeho umubyeyi, usigagatiye umwana. Umubyeyi aranezerewe cyane, harimo firigo, iteretseho ibikoresho nka teremusi, isorori, igikombe, icupa ry'amavuta ndetse n'iryo kunyweramo amazi.

Umubyeyi uri konsa umwana kandi amukikiye neza yambaye neza yicaye ahantu hatekanye yaba we ndetse n'umwana bafite isuku, umwana yambaye ingofero, akajipo ndetse n'agapira gaciyemo amabara.

Ababyeyi benshi batandukanye kandi babukereye, bambaye neza ndetse n'abana babo, baje gukingiza abana babo, ahakingirirwa hateye ihema ndetse ubakingirira abana yambaye isorati y'ubururu ndetse n'umupira w'ubururu.

Icyumba kinini cy'ishuri, kirimo ikibaho, harimo umugabo munini, uri guhoreza abana igikoma, abana bose baricaye bafite ibikombe mu ntoki, umugabo arahagaze, arimo aradahira igikoma mu gikombe kandi abahoriza.

Abihayimana b'abakobwa abo twita ababikira batatu bahagararanye n'abakobwa babiri ndetse inyuma yabo ahagaze abagabo batatu, abihayimana bambaye amajipo ya kaki ndetse n'amavara ya kaki.

Icyumba kirimo imiti itandukanye ikoreshwa kwa muganga, aho itondetse mu buryo bwiza butandukanye, hahagazemo umuntu ushakisha umuti, wambaye umupira w'umweru ufite imisatsi ifungiye hejuru, kandi yambaye n'amaherera, yambaye isaha, yambaye n'impeta.

Imiti itandukanye ifungiye mu dukarito dutandukanye, ikoreshwa kwa muganga. Iyi miti iri mutubuwate tumwe dusa n'ubururu, icyatsi umutuku ndetse n'ikigina. Iyi miti kandi iri hasi ku meza asa n'igitaka hasi.

Inzu nini iriho icyapa cya farumasi kigaragaza ko ari ahantu hagurirwa imiti, hariho ibirango by'aho iyo farumasi iherereye ndetse na nimero za telefone wababarizaho igihe utababonye, si nimero gusa, hariho na imeli ikoreshwa.

Icyumba kinini cyo kwa muganga gikorerwamo inama cyangwa se amahugurwa. Icyo cyumba kigizwe n'intebe n'ameza bitandukanye. Harimo abantu benshi batandukanye bicaye, abandi barahagaze.

Abantu bitabiriye amahugurwa y'uburyo bashobora kwirinda indwara zitandukanye izo arizo zose, zishobora kwangiza ubuzima, abantu babiri bambaye imipira yose yanditseho amagambo amwe.

Umugabo munini wambaye ishati y'ubururu n'amadarubindi, afite mikoro mu ntoki, aratanga ikiganiro cy'uburyo ugomba kwipimisha virusi itera sida n'ububuryo ushobora kuyirinda. Ni umuganga afite ubunararibonye mubijyanye n'imivurire.

Umuravumba n'icyatsi kiba mu kinani cyangwa se ushobora gutera ku rugo, gikorwamo imiti itandukanye ikoreshwa mu kwivura igihe urwaye umutwe, inkorora, ibicurane cyangwa se wakomeretse. Umuravumba kandi n'igiti kigira impumuro yihariye ku buryo udashobora kukitiranya n'ikindi.

Icyumba kinini kirimo amacupa atandukanye, arimo imiti myinshi ikoreshwa mu buryo bwa gakondo, hashashemo umusambi cyangwa se ikirago, imbere yaho hapfukamye umuntu ari kugenda abarura udukoresho turi kuri icyo kirago.

Umwenya ni icyatsi gikorwamo imiti itandukanye ikoreshwa kwa muganga, iyo miti ivura indwara zitandukanye harimo: umutwe, ibicurane, umugongo ndetse n'ibindi. Umwenya uragandara ugira udushami twinshi cyane kandi ugira n'uruyange, iyo urwo ruyange rwumye rugahunguka ruvamo izindi mbuto zikamera.

Urukarabiro rwubatse neza ku buryo bwa kijyambere, rugizwe n'amakaro y'umweru ruriho abagabo bambaye udupfukamunwa bari gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune. Umugabo ubanza yambaye agapira k'ubururu ndetse n'ipantaro y'ikoboyi.

Abana barindwi bicaye imbere y'ivuriro ry'ibanze, aho undi mugore uhetse umwana, agiye kwinjira muri iryo vuriro. Iryo vuriro ni inzu nini igizwe n'ibyumba bitandukanye ifite amabara y'ubururu ndetse n'icyatsi, isakaje amabati y'icyatsi kandi ifite ikibuga kinini imbere yaho.

Icyumba kinini cyo kwa muganga kirimo abaganga bambaye imyenda y'ubururu y'akazi, udupfukantoki ndetse n'udupfukamu, babiri ni abagore undi ni umugabo, imbere yabo ku meza hateretseho ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu buganga.

Umugore wambaye ibitenge hasi no hejuru, ari kwa muganga, ari kwaka serivisi zijyanye n'inubuvuzi, imbere ye hari abaganga babiri, umwe aricaye ari kwandika, undi arahagaze, bombi bambaye impozankano, ijyanye n'ubuvuzi bari kumuha serivisi, ijyanye n'ubuvuzi.

Abaganga bari mu cyumba kinini cyo kwa muganga gikorerwamo ubushakashatsi ku bijyanye n'imiti, ndetse n'ibikoresho bikoreshwa muri serivisi y'ubuvuzi. Abaganga bose bambu udupfukamunwa bambaye imyenda ikoreshwa kwa muganga ndetse n'udupfukantoki.

Icyumba kirimo imiti itandukanye ikoreshwa kwa muganga, icyumba kirimo ameza ateretseho agacupa, karimo umuti kandi ako gacupa gafashwe n'ikiganza.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye bari kwa muganga, aho ababyeyi bafite abana batoya, bari gufashwa n'ababifite mu nshingano, harimo abaganga n'abanyabuzima, mu kubaha ibinini ndetse n'inkingo.